Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikimodoka kinini, barimo barifotoza, bafite ikirango cya Kampani yabo, umugabo umwe yambaye ingofero ndetse afite terefone n'impapuro mu ntoki.

Inoti yanditseho amafaranga igihumbi, kuri iyo noti hashushanyijeho inka ndetse n'imirima minini irimo abantu barimo gutera cyangwa gusarura.

Abagabo babiri begeranye bafatanye ku rutugu. Bose bubitse umutwe muri telefone, kandi barimo baraseka, umwe muri bo yatunze urutoki kuri telefone.

Intoki z'umuntu zifashe amafaranga y'inoti arimo kuyabara, izo noti ni nyinshi cyane ziratandukanye kandi n'izo mu bihugu bitandukanye.

Amafaranga menshi cyane y'amadorari, ahambirijwe n'udupapuro tw'umuhondo n'umweru twanditseho ingano y'amafaranga ahambiriwe muri ako gapfunyika.

Icyapa kigaragaza uko ivunja rihagaze muri iyo minsi, haragaragaraho urishaka ese yarigura angahe ndetse n'urigurisha yaritanga kuri angahe. Hariho ibihugu bigiye bitandukanye ni Amerika, Ubwongereza, Iburayi ndetse n'amafaranga yo mu bindi bihugu.

Ibiro bivunjishirizwaho amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, abantu bahagaze imbere y'iduka rivunja amafaranga kugira ngo bavunjishe amafaranga yabo bayahindura mu yo bakeneye.

Icyapa kigaragaza ibiro bavunjishirizaho amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye, urugero nko muri Tanzaniya, muri Kenya, Uganda n'ahandi. Kamera igaragaza umutekano wo kuri ibyo biro cyangwa se aho hantu inyubako yubatse.

Inyubako nini y'ihoteri ikikijwe n'ahantu bicara hasakaje ihema ry'umweru, aho hari intebe z'umukara ndetse n'ubusitani burimo indabo zitandukanye. Haragaragara ikirere cyiza kivanzemo ubururu n'umweru.

Ahantu heza bakirira abashyitsi, hari pisine bogeramo, irimo amazi menshi meza cyane, ameza ateguyeho ibitambaro byiza, n'amatara yaka, hirya no hino mu nyubako.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye bakiriramo abashyitsi. Ni hoteli. Ikikijwe n'ibiti bitandukanye, indabo nziza zitandukanye, ikirere cyiza cy'ubururu n'umweru ndetse n'uruzitiro rwiza.

Inyubako ikorerwamo serivisi zihereranye n'ubwishingizi, imbere y'inyubako hari icyapa kinini, kigaragaza izina ry'ubwishingizi buhakorerwa, ndetse n'ibintu byose bakora.

Akazu gafunze batangiramo serivise zo gutanga no kwakira amafaranga no guha abantu amayinite yo guhamagara, kari iruhande y'umuhanda hafi y'ibiti byinshi ndetse n'amapoto, hafi aho hari amazu agiye atandukanye.

Ikiganza cy'umuntu, gifite telefoni ya IYOU mu ntoki, iyo telefone akaba ari iy'amatushe, arimo gukanda imibare ashaka gushyiramo amafaranga, ashaka koherereza umuntu.

Abagabo babiri bahagaze impande ya moto igemura ibicuruzwa. Umugabo umwe ni umumotari, yambaye ijire y'iroza ndetse yambaye na kasike y'ubururu, arimo arahereza undi mugabo igicuruzwa amuzaniye.

Umumotari uri kuri moto itwara cyangwa se igemura ibicuruzwa, inyuma y'umotari afite agakapu kajyamo ibyo bicuruzwa, agiye kwinjira mu muhanda munini w'umukara ahagaze hejuru y'inzira y'abanyamaguru ku mapave, imbere ye hari icyapa cyanditseho izina rya hoteli.

Amazu agiye atandukanye ari mu mujyi wa Kigali umuntu ashobora kugura akayabamo nibura kuri miliyoni magana abiri mirongo ine y'amanyarwanda.

Icyumba bogeramo kirimo ibikoresho bitandukanye, aho bituma aho bakarabira mu ntoki, aho birebera mu maso ni ukuvuga indorerwamo ndetse n'aho bogera umubiri wose. Icyo cyumba kirimo idirishya ritoya ndetse n'urugi.

Icyumba bararamo cyo gukodesha kirimo amarido y'amabara atandukanye, igitanda gishashe neza na matora nziza ndetse n'imisego yayo n'itara ririmo urumuri rwaka umuhondo.

Televiziyo nini imanitse ku rukuta rw'umweru, akuma gateretse ku meza gafasha kureba amateleviziyo agiye atandukanye, ndetse n'utundi dukoresho dufasha guhindura igenamiterere ya televiziyo, duteretse hejuru y'ako kuma gafasha kureba amateleviziyo atandukanye.

Ikibanza cyubatsemo inzu ifite igisenge cy'umutuku, imbere yayo hasi igice kimwe gishasheho amapave ikindi nibitaka. Kizengurukijweho igipangu cy'amatafari ahiye, kandi mu kibanza harimo umuntu ugendagendamo. Imbere y'iyo nzu harambitse ijerekani iririmo ubusa.

Inyubako nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye, bigurishwa abantu benshi urujya n'uruza baje kugura no kugurisha muri iryo soko ndetse n'ahantu abantu bazamukira bajya hejuru cyangwa bamanuka hasi.

Inyubako nini iri kwakamo amatara meza y'umweru, ikabamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye n'abantu batandukanye barimo abagura ndetse n'abagurisha.